Umuganga uri mu nyubako yakirirwamo abarwayi, imbereye hari mudasobwa n'imashini zifashishwa mu gupima uburwayi, ndetse n'imashini zifashishwa mu gusohora impapuro, izireba ibizami byapimwe na muganga ubifitiye ububasha, kugira ngo barebe uburwayi bwanditsweho.